Ababyeyi babiri bambaye ibitenge, bambaye hejuru n'imyenda y'abamama barunamye bose. Bari gutera amateke. Umwe ari guhungika, undi nawe arimo aramuhereza imbuto.

Umugabo yicaye ahantu hatuje arimo arasoma igitabo ni ahantu nyaburanga ubona hameze nko muri hoteli kandi hitaruye amazu, urabona ko hatuje hari intebe kandi hari ibintu bigaragaza ko uyu ari umuco.

Umworozi aha ngaha yorora inkoko. Azorora mu buryo bugezweho n'inkoko z'imishwi arimo arazigaburira arimo araziha ibyo kurya. Yambaye bote ubona ko ari uwabigize umwuga izo nkoko n'imishwi y'umweru abona ko hirya harimo ibipimo bigaragaza ubushyuhe ndetse n'ibindi bitandukanye.